Farumasi icururizwagamo imiti zitandukanye zo kuvura abantu. Harimo umudamu uyikoragamo utangaga imeti, cangwa akakira ibibazo by'abagwayi baje kwivurizamo. Afite ayipadi yandikagamo ibintu, bitewe n'ibyo abagwayi baje bashaka.

Abadamu babiri bafashe umwana bari kumuha ikinini bifashishije ikiyiko bambaye imyenda zigaragaza akazi bakoraga , inyuma yaho hari umujanama w'ubuzima wambaye baji nawe ugaragaza akazi ke ndetse n' inyuma yabo ku meza hariho abandi bajanama bambaye amataburiya g'akazi.

Ibitanda byifashishwaga cane cane mu bitaro, mu kuvana abagwayi ahantu hamwe babajana ahandi, cangwa kubakura kuri resebusiyo mu gihe ari abagwayi barembye cane, bari kubajana mu byumba barabakiriramo. N'ibitanda byiza bigiraga amapine, gatumaga byimugwa, bikavanwa ahantu hamwe bikajanwa ahandi mu buryo bworoshe.

Ibisheke biteye mu murima ari bibiri, mu murima gurimo n'ibyatsi by'inka cangwa g'andi matungo gatandukanye by'urubingo, hakaba harimo n'igiti ca runuka, iyo ugiciye kiranukaga cangwa iyo ceze neza.

Avoka urubuto rwifashishwa mu kurya cyangwa mu gukora poroduwi zigiye zitandukanye zirimo isabune, ndetse akaba ari urubuto rwiza rwifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, haba mu byokurya ndetse no mu byo gutunganya uruhu rw'umubiri wacu.

Inzu y'igitangire itari yuzura neza isakajwe amabehe gayirindaga kuba yanyagirwa ngo ibe yariduka, ni inzu igeze mu gihe co kumanikwa kuko yashizweho amakositara na za rentu byo kugira ngo bifate inzu neza ikomere, batazayishiraho ibiti bagiye gusakara ikagwa.

Indabyo ziteye nko mukingo, imbere yazo hari ubundi bwoko bw'indabyo z'umuhondo n'icyatsi. Ndetse, hari n'ahantu hameze nko kugikuta, bigaragara ko ziteye ahantu kurugo.

Ikigori ni igihingwa cyiza gishobora kwera ahantu henshi hatandukanye. Cikaba cihanganira buri cirere cose c'ahantu runaka gihinzwe. Ni igihingwa cyiza gishobora kuvamo umutsima, cyangwa kikaribwa cyo ubwaco nta kindi kintu ugikoresheje.